Abakora ubucuruzi bwa serivisi nk'amayinite, mu kigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda MTN, bavuga ko nabo bari ku rwego rwiza kuko abasha kwiteza imbere.

Abantu bakora ubucuruzi bw'amainite ndetse no kubitsa bakanabifuza, mu Karere ka Nyagatare bakomeje kwiyongera, aho kugeza ubungubu habarurwa abarenga magana inani, nibura muri buri kagari.

Mu buryo bwo kwirinda ko abaturage benshi bakora ingendo zibavuna bajya kugana serivisi zo kwibaruzaho amasimukadi ndetse no kubitsa no kubikura, sosiyete icuruza itumanaho mu Rwanda yababashyiho uburyo bworoshye bwo kuboherereza abagenti bazajya babafasha muri ibyo bikorwa.

Kubarura simutari nshyashya ku baturarwanda cyane cyane izituruka muri sosiyete yamamaye cyane nka MTN ntabwo byemewe bitewe n'ubujura bubikorerwamo, aho iki kigo gikangurira abantu kujya ku kicaro.

Kugira ngo nibura bemererwe gukorera mu mazu yabugenewe acururizwamo serivisi z'ikigo k'itumanaho MTN, hari amafaranga yashyizweho angana n' ibihumbi magana abiri ku kwezi, kugira ngo umuntu wese ahabwe iyo nzu.

Amazu y'ubucuruzi bwa serivisi cyane cyane ubwa sosiyete z'itumanaho nka MTN, ahabwa abagenti bamazemo igihe kirekire bakorana.

Airtel money na yo ,ikomejeje kuba ubukombe, bitewe n'uko umubare w'abakiriya baza bayigana warazamutse, uva kuri mirongo itatu ku ijana ugera kuri mirongo inani n'ibice bitanu ku ijana.

Mu rwego rwo kwamamaza ndetse no gukangurira abaturarwanda gukoresha ndetse no kugana serivisi zitangwa n'ikigo cy'itumanaho airtel hashyizweho tombora aho igihembo nyamukuru ari ipikipiki.

Umukecuru ndetse n'umusore umwe ukora ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi bw'amayinite ndetse akabitsa, akanabikura, biravugwa ko uyu mukecuru akeneye kumenya uburyo ibyo byose bikorwa.

Umugore u ufite ikaye mu ntoki ndetse uri mu nzu ya MTN itangirwamo amayniite, aravuga ko mu minsi ishize, yibwe amafaranga arenga ibihumbi makumyabiri, biturutse ku butekamutwe.

Mu bukangurambaga bwakozwe n'ibigo bigiye bitandukanye bishinzwe iterambere ry'abaturage, hibanzwe ku buryo abaturage bazajya bakorera hamwe ndetse bakibumbira mu makoperative.

Amakoperative acuruza ibiceri ndetse anayihinga avuga ko ari gutaka igihombo yagiye aterwa n'uko hari benshi bagiye batesha agaciro umusaruro wabo ngo ntago ubyimba.

Bamwe mu bakoze neza batsindiye amafaranga mu kigo k'Igihugu gishinzwe iterambere, ayo mafaranga akazajya abafasha mu kwihutisha ndetse no gushishikariza abandi kugana izo serivisi z'ibyo bigo.

Abagore bakora imitako, bavuga yuko igihe cyane cyane kegereje iminsi mikuru, babona abakiriya benshi, maze bakabona amafaranga abafasha kwitegura na bo iyo minsi mikuru.

Uburyo bwiza bwo guhunika ibigori, ni igihe babifashe bakabisharika ku biti bicuramye kugira ngo intete zose zikamuke. Ubundi zizasheshwe zivemo undi musaruro.

Abagore babiri n'umugabo umwe, harimo umugore wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'umugore wambaye ijipo y'umutuku n'ishati y'amabara, bahagaze imbere ya banki, bari kuguza amafaranga mubigo by'imari.

Biva mu mutima ni gahunda yashyizweho na MTN aho umuntu ashobora gutsindira igare, televiziyo ndetse na moto ubundi akaba yakabye inzozi ze igihe akoresheje cyane serivise zayo.

Mu gikorwa cyo kwanika umuceri ni ngombwa ko abaturage bahurira hamwe ubundi bakawanika, bityo bagacungana n'imvura kugira ngo bahite banura kugira ngo utangirika.

Inzu z'ubucuruzi zicuruza inzoga ndetse n'utubari, zivuga ko hari bamwe basobanukiwe agaciro k'ibisindisha aho usanga hari inzoga igura amadolari magana ane ahwanye n'ibihumbi magana arindwi y'amanyarwanda.

Kantine cyangwa se amazu akoreshwa mu gutanga uburyo bwihuse bw'ibiribwa harimo icyayi, imigati, ibikoma ndetse na ji bikomeje kwiyongera cyane mu gasantere ka Kimihurura.

Inzoga zirimo mitsingi ndetse na ngufu zikorwa n'uruganda Ingufu Gin Ltd ruherereye mu Karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Ruyenzi na zo ziteza ngo ibibazo birimo na kanseri.

Birakwiye yuko abacuruzi bacuruza ibicuruzwa, birimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, bagomba kwitwararika mu gihe bari gutanga inyemezabwishyu kubera ko igihe bidakozwe bityo, bacibwa amande.

Bimwe mu bikomoka ku mafi birimo nka saridine iyamamaye cyane ni Jambo ituruka mu gihugu cya Kenya, aho iyi saridine ikoreshwa cyane n'abakire igihe bari gufata amafunguro yabo.

Inzitiramibu, amatapi ndetse n'imyenda ibyo ni ibikoresho bigurishirizwa mu isoko rya Kimironko, aho umuntu wifuza kugura iyi myenda abanza kurebera ku bipupe akareba uburyo azajya aba aberewe.

Mu gukora ibiribwa birimo amandazi, imigati ndetse n'ibindi bikomoka ku ifarine hari igihe byongerwamo ibindi binyabutabire bituma bibihindurira ibara ryiza.

Abacuruzi igihe bari kugura ndetse banagurisha ibicuruzwa byabo, biba ngombwa ko abakiriya baza babagana bagomba kwishyura mbere, ubundi bagahabwa ibyo bashakaga.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa buri munsi mu ngo zitandukanye mu buzima ubwo ari bwo bwose zaba zibayemo harimo n'ibiyiko birebire byarura amafiriti kugira ngo ubikoresha ataza gushya kandi bigatuma n'amavuta adashira neza.

Inzu zicuruza ibiribwa birimo imboga, amashu ndetse n'ibyo kunywa izi zizwi nka butike, biravugwa yuko igihe hadatanzwe fagitire cyangwa se inyemezabwishyu, umusoro habaho kuwunyereza ibyo bigatera igihombo Leta.

Urusengero rushaje rwari rukingishijwe amadirishya y'ibiti, ruri gusimbuzwa ibyuma aho inzugi za metalike arizo zifashishijwe kugira ngo rwongere rusanwe.

Bikiramariya igihe yazamutse ajya mu ijuru hari abaturage benshi batu mugo bazi i Kibeho kugira ngo bamusanganire ubundi abahe umugisha babeho neza batekanye.

Ababyeyi benshi cyane harimo abambaye imikenyero y'umutuku ndetse n'iyindi y'icyatsi, barishimira ivuka ry'umwana Yesu Kirisito, kuri iyi Noheli y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Uburyo bwiza bwo guteza imbere igihugu cyacu harimo n'uko ngo amatorero yazajya asora bityo ayo mafaranga na yo agakoreshwa ibikorwa by'iterambere.

Insengero ndetse n'amatorero bivugwa ko zitujuje ibisabwa mbese zifite ibigunda ku irembo ryazo ndetse n'ibindi bitameze neza, zigomba zose guhagarikwa mu Rwanda.

Gufasha umwana kugendera mu kagare igihe arwaye, bituma amenya agaciro k'insimburangingo ndetse akaba yanabasha kwirinda kongera gukinisha ibituma yavunika.

Muri gahunda zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana zateguwe n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, abaturage basengera mu itorero episikopi i Kimisagara, bagiriwe inama yo kwirinda kuvuza ingoma cyane.

Amahoteli ndetse na resitora bivugwa ko nayo atanga agafaranga gatubatse ku bantu baza bayagana kubera ko asora hafi cumi na karindwi ku ijana ugereranyije n'ibindi bigo.

Gutera ubwatsi burimo nk'ubwuhirwa amazi aturuka mu bigega, bitanga icyizere cy'uko abantu batazongera, kubura aho baragira amatungo yabo bitewe n'uburyo , ubwo bwatsi bumera neza.

Hoteli zigiye zikomeye mu mujyi wa Kigali, ziba zigomba kuba zirimo ameza, intebe ndetse n'ibitanda byiza kugira ngo abaje bazigana bazifuze kugaruka ikindi gihe.

Ibihumbi bidaciye munsi ya bitanu ni nibyo buri muntu wese acibwa igihe avuye mu mahanga ubwo ibihumbi bitanu bihwanye n'asaga miliyoni eshanu byibura kugira ngo wemererwe gutura muri hoteri mu gihe cy'ukwezi mu Rwanda.

Inzu zifite intebe, utubati, imitako ndetse zifite n'amatara manini, bivugwa ko ari zo zizubakwa gusa mu Mujyi wa Kigali kuko ngo aribyo ubuyobozi bushaka.

Amahoteli akomeye mu Rwanda, arakangurirwa kubaka ubwogero rusange ubu bizwi nka pisine, bufite ireme kandi bufite isuku kuko igihe bidakozwe bityo, amwe muri ayo mahoteli azajya afungirwa.

Mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bwagaragaje ko nibura abantu basaga ibihumbi magana atanu aribo barara mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu bikorwa by'ubukerarugendo ndetse n'akazi.

Ikiyaga cya Kivu na cyo cyatekerejwe ko gishobora guturwaho igihe abantu babishyize mu ngamba kandi bakabikora, iki kiyaga gifite hafi hegitari magana abiri zishobora guturwamo kandi nta kibazo.

Mu bikorwa byo gushimisha ndetse no kwakira neza abagana amahoteli mu Rwanda, hashyizweho uburyo gakondo bwo kubaririmbira indirimbo za kinyarwanda.

Mu inzu nini cyane irimo amakaro, ameza ndetse n'amarado y'umukara, biravugwa ko ishobora kuba iri ku isoko kuko nyirayo yabuze amafaranga yo kuyishyura.

Gusasa neza ndetse ugashyiraho imisigo, ubundi byaba akarusho ugashyiraho n'inzitiramibu, igihe uri kwitegura abashyitsi, ni bimwe mu bintu byigishwa abantu basasa mu mahoteli kugira ngo abaza bayagana bazishimire kugaruka.

Intebe umuntu ashobora kuryamamo ndetse ahantu hasakaye neza, iruhande rwa pisine nizo zishobora gutuma abantu bagana aho hari ubwogero rusange buzwi nka pisine.

Gufata neza abakiriya baje bakugana cyane cyane abaza muri hoteri ndetse n'amaresitora mu mujyi wa Kigali, biri mu bituma agafaranga kinjira kandi banyirabyo bagatera imbere.

Abakorera mu isoko rya Kimironko, bavuga ko igihe abaturage rubanda rugufi baje babagana, bakora urugendo rurerure bityo bigatuma ibicuruzwa byabo bitagurwa, ku rwego babishakaga.

Kugurisha imyenda mu Rwanda irimo mayami ndetse n'iyindi, ni byizayiza kuko hari igihe abantu baba batabyumva, bitewe n'uko nta handi baba bayibona ariko iyi myenda izwiho gukomera cyane.

Abaturage benshi barimo abikoreye ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye barajya ku isoko kandi barajwe inshinga n'uko bagurisha ibihingwa byabo ku mafaranga meza.

Ibikoresho birimo ibya purastike ibikombe, amasahani, indobo ndetse n'ibindi bikoreshwa mu bukorikori nk'ibyuma bikomeje kwiyongera mu isoko rya Kinyinya.

Inkweto za bodaboda ntabwo ari byiza kugira ngo buri wese azicuruze kandi azi ko atazabasha kuzikorera isuku kuko ngo zandura vuba.

Amaresitora atandukanye yagiye ashyiraho uburyo abantu bashobora kwicara hanze mu ibaraza, ubundi bakarya banumva akayaga gaturuka mu busitani bwabo baba bateye.

Mu maresitora atandukanye, biba byiza igihe umuntu yiyaruriye, bitewe n'uko igihe bidakozwe bityo, nta wumenya ingano y'ibiryo umuntu ari bufate, ibyo bikaba byatuma habaho gusesagura.

Gutwara abagenzi ku igare ni ngombwa yuko bishyirwamo ubushishozi kuko igihe igare riguye rishobora kubagusha bakaba bahasiga n'ubuzima.

Amapikipiki atwara abantu mu buryo bwa rusange birabujijwe yuko azajya aheka imizigo kuko ngo bigaragara nabi kandi byanateza n'impanuka.

Umunyonzi uri ku igare ndetse wambaye ingofero n'ishati y'umweru, biravugwa ko avuye ku isoko kandi agomba kuba ahashye n'ibishyimbo azatera mu gihembwe cy'ihinga.

Abantu batwara abandi ku mapikipiki, biba byiza igihe bambaye neza ingofero zibarinda zizwi nka kasike, bitewe n'uko igihe bakoze impanuka, izi ngofero zibafasha mu gihe habayeho ibyago nk'ibyo.